Muganga afata ibipimo by'umuvuduko w'amaraso ku murwayi mu bitaro bya Ruhengeri; aha ngaha ni muri opitari ,muganga ari gufata ibipimo by'umurwayi ngo amenye uko ahagaze ku muvuduko w'amaraso.

Umukobwa ufite ibisuko, muri ibyo bisuko afite, akaba yambaye n'ikoti ry'umweru, akaba ari gucuruza na kontwari irimo imiti y'ibirayi harimo za detane, harimo n'iri mu gakarito ifite imifuniko y'icyatsi. Iyi miti ikaba ikoreshwa mu kurwanya udusimba n'ibyonnyi bishobora kujya mu myaka.

Icyapa kigaragaza ibitaro bya Ruhengeri cyanditse mu nyuguti nini, noneho munsi y'icyo cyapa hakaba hariho koroture y'ibyuma cyangwa se uruzitiro ruzitiye ibyo bitaro bya Ruhengeri, mu mujyi wa Musanze.

Imiti itandukanye iri kwa muganga, hariho ibikosi byinshi bifite imifuniko y'ubururu, imifuniko y'umutuku n'imifuniko y'umweru . Ibi bikosi bikaba birimo imiti itandukanye, abantu bajya kwa muganga bakayibaha muri farumasi.

Inzu yubakishije amatafari itari yuzura, ariko bazayisakaza amategura, ikaba iri mu kibanza cy'ahantu ho mu cyaro, ifite amadirishya abiri n'umuryango, amategura aratwikiriye, igisenge ntago bari bagikora.

Urudega. Urudega ni ibyatsi bimera ariko bivura bikoreshwa n'abavuzi gakondo bari kuvura umugongo cyangwa se izindi ndwara zitandukanye. Urudega rurarenduka ariko barurisha ibijumba, bararutogosa bakarurya. Rukiza indwara yitwa umugongo.

Umuravumba, umuravumba ni icyatsi kivura inkorora kikavura agapfura, uvura n'umutwe. Umuravumba barawukoresha n'uyu munsi iyo umuntu yarwaye inkorora arawubabura mu ziko, akawuvanga n'agakukuri akawunywa ,agakira inkorora.

Abagabo benshi bari mu rusasa mu kagendererano ari ho bahagaze. Ari gukora ikiraro, ikiraro cy'ibiti. Hakaba hari n'umugore uri hakuno y'ikiraro wambaye ikoti ry'umukara, e ibyo biti bamaze gushyiraho imigogo, bamaze gutinda hejuru y'ikigezi ni imigogo igera mu migogo itanu..

Ikigori cya buride kiri iruhande rw'isipure ndetse n'urutonde rw'amabuye bikaba biri mu murima, aho biri mu murima hakaba hari harahinzwe ibishyimbo, ubwo ni ukuvuga ngo icyo kigori cyasigaye mu gishyimboshyimbo, kiri hafi y'igiti cya voka bikaba byegeranye n'urugo ruzitijwe urutonde rw'amabuye.

Igiti cyitwa umuzabibu , umuzabibu barawurya bawurya ari imbuto kandi ziraryoha ,zigira akamaro mu mubiri w'umuntu iki giti giteye imbere y'amashuri muri jaride ,kikaba gifite amabara y'icyatsi.

Icyatsi cyitwa umuyugiri, gifite ibara ry'icyatsi, kivura indwara y'umuhaha, iyo ndwara y'umuhaha akaba indwara ikunda gufata abana, iterwa no kubakarabya amazi akajya mu matwi. Noneho iyo ufashe iki cyatsi ukakibabura, ukagishyira ku kayiko, ugashyira mu gutwi k'umwana, umwana arakira.

Igisheke kikiri gito kiri mu byatsi, kitabagariye, igisheke ni igihingwa bahinga, kiri mu bwoko bw'imbuto, kikaba kivamo isukari, kiraribwa, kigakomeza amenyo, igisheke kiraryoherera.

Mu ishyamba ry'ibirunga, icyatsi , ibiti bitandukanye aho uri kubona ibyatsi ariko by'ubwoko bw'ibiti bizitira, harimo n'ibindi biti bikuru cyane ibi byatsi bimeze nk'imivumu.

Ikinetenete ni icyatsi kivura kirimeza mu kinani, gifite ibara ry'icyatsi, iki kinetenete barakibabura mu ziko, bagakamura ku kiriko bagaha umwana uri kubabara mu nda cyangwa se umuntu mukuru.

Igiti kiri muri jaride impande y'ikigo cy'amashuri, iyo jaride ikaba irimo utwatsi twa pasiparumu. Ikigo cy'amashuri kikaba cyubakishije amatafari afite ibara ry'amatafari ahiye.

Icyatsi bita ikinyamata kiri kumwe n' urusasa rwumye n'ingeri hirya y'urusasa rutoto batemye ariko rwa rwakubakishwa, icyo cyatsi kikaba cyitwa ikinyamata iyo giciyemo kabiri kigira amata y'umweru.

Ibiti by'intusi bikuze ndetse n'ibindi bitarakura hariho n'ibitusi bya nyiramweru bikiri bitoya, bino bivura ibicurane. Iyo umuntu yarwaye ibicurane arabyunama hejuru abiteka mu mazi, akabyunama hejuru akabyiyuka ibicurane akatsamura kenshi yiyoroshe ikiringiti ibicurane bigakira.